Abapolisi b'u Rwanda，ikirango cy'u Rwanda， baturindiraga umutekano， bigatuma tubaho twizeye ko turi amahoro.

Aba ni abasirikare b'u Rwanda rwacu bambaye inifomu iriho ikirango kigaragaza ko ari Abanyarwanda.

Ipoto ihuriweho insinga amazu yo kubamo inkongi y'umuriro.

Ubwato bwa marine butumaga tubasha kubona abantu bacu barohamye kuko babasha kubashakisha bakaboneka

Umucungagereza, yambaye inifomu, agapfukamunwa ahagaze mu kibuga imbere hari amazu yagereza.

Umupolisi aryamye hasi aturwanirira. Turabemera cyane uburyo mutwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, mukemera kuryama ahantu nk'aho ng'aho.

Imodoka iri muri kaburimbo ibaga isa neza ugereranije n'ira kumuhanda gw'igitaka.

Moto itwaye abana babiri na mawe wabo, n'undi mwana wa gatatu, n'undi mwana wicaye hejuru ya matela, bose bari kuri moto.

Abacungagereza bahagaze mu kibuga, iruhande rwabo hari ibiti.

Inama iri kuremeshwa n'umugore yiganjemo abagore benshi. Abagabo barimo ni batatu, harimo n'umudaso w'umugore.

Inama abaturage bakundaga kurema kuko basubirizwagamo ibibazo byabo babaga bafite bwite, bigatuma barushaho gutera imbere.

Avoka, imyumbati, ibishimbo byose biteretse ku meza, abantu bicaye imbere yabyo.

Kimwe mu bikoresho gakondo, agacuma kadufashaga gushiramo akayoga, tugashiramo n'umuseke, tukanyweramo inzoga.

Icyansi bagicundiraga mo amata kugira ngo haboneke mo amavuta g'inka, yifashishwaga mu kuvura ibisebe.

Icyansi gikoreshwaga mu gucunda amata, bigatuma tubona amavuta g'inka, bityo tukivura indwara ziba zaje zitunguranye.

Isekuro, umusekuzo, tungurusumu, igisobane impande hakikije ibiti.

ibikoresho bya gakondo:" Nyirabunyagwa, ishoka inyundo, umuheto, inkonzo".

Ababyinnyi babyinaga bikoreye uduseke bibaga byiza. Birushagaho kunoza imbyino zabo kugira ngo zibe ziboneye.

Umuvure guteretse hasi ku isima, impande yago hazitije imbaho, tugukoresha mu gukama urwagwa.

Isekuro ni kimwe mu bikoresho gakondo twifashishaga kuko kaka yacyifashishaga asekura imiti.

Umushumba uragiye inka, afite inkoni, yitwikiye igihoho ni nziza cyane.

Abagabo bafashe imirisho, bari kuvuza ingoma nini cyane, bambaye amashati g'umweru, biteye n'imyitero y'amabara.

Ikiyaga kirimo ubwato, abantu b'abagabo batwaye ubwato, hakurya y'ikivu hari ikirunga kiri iruhande, hari ibicu bisa umwere.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho twifashishaga mu mbyino gakondo, kugira ngo zidufashe kunoza imbyino, igaragare neza.

Igiko kirimo umutiba gubagamo inzuki. Ubuki buraryohaga cane kandi ni umuti gukomeye.

umuvure abantu bakamiragamo urwagwa kugira ngo nirumara iminsi ibiri barunywe ruryoshe cyane.

Uruzitiro ruzitije imbingo, imbere harimo imbuga, inyuma hari umugabo uhagaze wambaye umweru.

Imitako bakoreshaga bataka mu nzu kugira ngo habe heza, habe hagaragara bishimishije cane.

Umucuranzi wacurangaga akoresheje umuduri wa kera, abashumba nibo bakundaga kugukoresha.

Intore zibaga zizi kubyina cane kandi zishimye. Mu byo zikoraga byose, zigeragezaga gushimisha abantu.

Ibyibo barabibohaga bakabyifashisha mu gutwerera, kubikamo imyaka kugira ngo zitazana inundwe.

Imitako iba myiza kuko ituma salo ibonera, bigatuma hagaragara neza cyane.

Abantu b'abagore bafite imirisho, bari kuvuza ingoma, bibaga byiza kuko ni umuco nyarwanda.

Abakaraza bavuzaga ingoma cyane cyane kuri Noheri no kuri Pasika, bituma twibuka ibintu byinshi.

Umugosozi w'ingano ziri ku ihema barambuye neza, hari n'andi iruhande azingazinze.

Umugabo uri kuvuza umuduri, yambaye ikabutura n'isengeri, afite uduti tubiri yifashisha.

Ibibindi kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu biteretse hasi ku butaka bishigikijwe n'amabuye.

Umusambi wo bicaraho, ubohesheje imigozi n'ubwatsi. Amashuka, abaturage, umugore ufite agapaniye.

Ababyinnyi ni bimwe mu birangaga umuco gwa kinyagwanda. Kuko tugiragamo ababyinnyi babyinaga imbyino za kinyarwanda.

Inka z'inyambo z'inyarwanda zigiraga amata garyoshe, zikagira amahembe gateze neza ziba zishimishije.

Umusururu guri mu ndobo abantu bari kunywa bakoresheje umuheha, umugore, umugabo, umugore wambaye ishapure.

Isekuro, umwana uri gusekura, iruhande hari indobo, igitebo, ifu, abagabo batatu bahagaze.

Abantu bari kunywera mu muvure. Abasaza, abakecuru, abagabo, abagore kuko urwagwa ruraryohaga.

Urusyo abantu basyaho ingano, amasaka n'ibigori. Ni byiza cane.

Ibicuma byifashishwaga babishyiramo inzoga noneho hakajamo n'umuheha kugira ngo babone uko banwa.

Turunevisi idufashaga gukanika ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tuyifashishaga mu gukanika televiziyo, mu gukanika amamashini.

Inzu ya etage iteye amarangi y'umweru, hasi imbere hari pasiparume. Iruhande rwa pasiparume hateye indabo.

Ikigo cy'amashuri abana bigagaho, iruhande hari umucaca, impande y'umucatsa hakaba igiti kirekire cyane.

Inzu nini cyane, igiye igira udusika imbere, hejuru yayo hari ibicu byiganjemo umweru, umukara, ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi, ibyapa, abari kuwukora.

Icyumba cyiza cyane kibagamo igitanda kinini, matela nini, ikuvurori, amashuka meza.

Akagari ka Ruhengeri, idarapo ry'igihugu cyacu, amatiyo ari imbere yako.

Ikiraro cyo mu kirere. Kiri kunyurwamo n'abantu batandukanye. Abana bato, abavuye ku ishuri, abakobwa, abagore ,abagabo.

Ibiti byakuze bijya hejuru y'inzu, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imodoka ibiri.

Inzu y'amatafari gahiye, ameza, intebe zirimo imifariso biri mu nzu.

Ikiraro cyo mu kirere. Abaturage babaga bafite ibibazo by'amazi bakabura uko bambuka, bakagishiraho kugira ngo baje babona uko bataha.

Abakiritu bateraniye ku rusengero bicaye ahantu hateye umucaca mwiza cyane. Bibaga byiza iyo muhuriye ahantu nk'aha ngaha.

Sitasiyo y'amashanyarazi itumaga habaho ikwirakwizwa ry'umuriro, bityo buri muturage akabasha gucana, akaba ahantu habona.

Inzu zubatse ku buryo bugezweho, imbere yazo hariho ikigega hanyuze umuhanda.

Ikiraro cyo mu kirere, hejuru y'ibyuma hari ibipirizo, ubururu, icyatsi kibisi, abagenzi bari gutambuka.

Padiri, abamansera, faratiri bahagaze imbere y'umuryango.

Urupapuro, ikaramu iri kwandika, ameza ateretseho imashini ifotora impapuro na mashine.

Papeteri ibaga mo ibikoresho. Hari imashini ifotoraga impapuro, hakaba mashine laputopu.

Machine kompiyuta, itumaga tumenya gukoresha ikoranabuhanga, kugira ngo ridufashe kugera kuri byinshi.

Icyapa, abagabo batatu bahagaze ,imitaka ya emutiyene iruhande hari inzu z'ubucuruzi.

Abayobozi bicaye, bari mu nama. Imbere hari abagabo bakuze bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika.

Abaturage bicaye muri sale, igiye igira utuntu tw'udusikariye two kwicaramo ifite inkingi ebyiri.

,Abaturage bari kurema inama bibaga byiza kuko hari byinshi babaga batazi ariko iyo bagiye mu nama babasha kubimenya bakamenya n'amabwiriza bagombaga kugenderagaho

Umugore uri kuremesha abaturage inama, ahagaze imbere y'umugabo wambaye ishati y'umweru n'abagore babiri, umwe wambaye ibitenge.

Iyi ni inama y'inteko y'abaturage iri kuremeshwa n'umugabo wambaye ishati y'umweru na rinete, afite na mikoro.

Ubwato butwaye abakerarugendo, bubambutsa amazi, kugira ngo batuzanire amadovize yabo, bityo biteze igihugu cyacu imbere.

Ritiko ni imwe mu modoka zigerageza gutwara abagenzi benshi kandi zigenda zihuta, ntabwo zitinda mu nzira kugira ngo umugenzi agere iyo agiye vuba.

Umufuka gufunze guzuye n'ugundi gwigice igare iruhande rwazo niryo rirapakira.

Isaka amamodoka abiri manini, abagenzi bitwikiye imitakaga, amapironi mu soko.

Parikingi y'abanyonzi kuri kaburimbo, mu gihe baba bategereje ko babona abagenzi ngo babatware babone amafaranga.

Imodoka nziza nini zitwara umubare w'abaturage benshi bitumaga ntawe usigara ku nzira, kuko itwara umubare mwinshi.

Irujya n'uruza rw'abantu mu mugi, bituma babasha kugera aho bifuza kujya gusura.

Ikiyaga, amazi menshi, abantu batwaye mu byomba abagabo n'abagore, imizigo.

Urujya n'uruza rw'amamodoka g'abayobozi bakundaga kwifashisha bagiye mu nama, cyanga se ku kazi bitumaga bagerera ku gihe ku kazi kabo.

Moto rifani ni kimwe mu gikoresho kidufasha gutwara imizigo, tutagombeye za modoka nini.

Umuhanda gw'igitaka gurimo imodoka itwaye abahungu b'abasore, iruhande rwayo hari umugenzi uri ku gare, iruhande rwe hari umwana w'umukobwa uhagaze.

Amamodoka manini gusa. Abaturage barimo abagabo, abagore, abasore, iri umuhanda w'igitaka nta kaburimbo irimo.

Indege ya Rwandeya ni igisubizo ku Banyarwanda twese, yaziye igihe, tuyifashisha tugiye ahantu aho ari ho hose hatugora gutega.

Abantu benshi mu isoko, ibimodoka bibiri binini, abamotari, inzu ya etaje.

Imodoka nini ipakiraga umusenyi, imbere yayo hari indi ntoya, ziri mu muhanda gw'igitaka.

Gare ni ahantu tujya gutegera bitewe n'ahantu tugiye hatandukanye, bikadufasha kugererayo ku gihe kandi tukagarukira igihe.

Ritiko, imodoka nziza cyane, itwara abagenzi ku mubare mwinshi cyane, kandi umuntu akagera iyo agiye byihuse.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagiye gutega moto, abagiye gutega amamodoka, bitumaga umuntu agera iyo ajya ku gihe.

Jagwari itwaraga abantu kugeza ubwo imizigo iba ari myinshi, bityo bikorohereza abagenzi kugera iyo bajya n'ibyabo byose.

Mato rifani umugabo uyitwaye ibaga nziza, kuko idufasha gutwara imizigo, bitagomeye amamodoka.

Eyitiyemu(ATM), icyuma kidufasha kubikura amafaranga bitworoheye kandi byihuse tutarinze kubanza twaja kuri gishe(guichet).

Moto isa ifite uturango turiho perezida, kariho efuperi, inyuma yicayemo abagenzi.

Imodoka ntoya yitwa ivatiri, hagati yayo n'izindi modoka ibiri, hari abagenzi bari kugenda bagana mu mujyi.

Moto Rifani ni igikoresho kidufashaga gutwara imizigo bitatugoye, aho waba uri hose urayitega ikakugeza aho ugiye n'umuzigo wawe.

Turu di Rwanda ibaga nziza cyane， iri mu bintu bitumaga igihugu cyacu kirushaho gutera imbere turayikundaga.

Voleboro ni umupira twifashishaga gukina umukino g'amaboko kuko udufasha gutuma tugororoka mu ngingo zose.

Abakinnyi b'umupira, ni beza cyane, bitumaga barambuka mu ngingo zabo, kuko ibaga ari siporo.

Turudirwanda abaturage bashungeye barindiriye kureba uko biri bugende bamwe bari hasi abandi bari hejuru imitaka ya emutiyene.

Pisine idufasha kuruhuka, muri wikende umuntu aba ananiwe, ajya muri pisine abana bagatembera.

Abakinnyi b'abakobwa tugeraga mu Rwanda, ni byiza cyane kuba ari umuco gwagezweho muri kino gihe.

Umukobwa umwe babiri batatu, umugore wambaye rinete, umugabo wambaye ishati y'umutuku iruhande rwe hari uwambaye umupira wa rakosite.

Amazu y'ubucuruzi, abaturage bahagaze mu isoko, udutanda tw'abacururizaga, akazu ka emutiyene n'aka eyatele.

Abanyonzi mu muhanda gwa kaburimbo, bibaga byiza kuko amagare gabo ntabwo gapfaga gusaza kubera ahantu heza.